Icyapa kiriho abakobwa babiri bafite imisatsi itandukanye ndetse inyuma yabo hari imodoka nini y'umutuku, hari amagambo yanditse iruhande rwabo y'ubucuruzi bujyanye n'ikoranabuhanga.

Umugabo ubwanwa bwinshi n'umusatsi, uri kumwenyura wambaye ishati yumweru na karuvati irimo tudoma tw'umweru, afite icyuma cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi indwara zitandukanye, uri kuburira abantu kwivuriza ku gihe.

Amoko y'imodoka nyinshi zitandukanye n'inyubako nziza, imikindo y'ibyapa kumuhanda naho imodoka zihagarara.

Inyubako iriho ikirango cyanditseho RSSB kivuga ibijyanye n'umutekano, bagaragaza ko ari ku cyicaro gikuru, hari indabyo ku ruhande rw'iyo nyubako.

Icyapa kigaragaza ubwishingizi bw'ibinyabiziga, hari uruhande rurimo moto yicayeho umumotari ndetse n'imodoka ifite ibara ry'umukara, muri icyo cyapa kandi handitseho nimero ushobora kwifashisha uhamagara mu gihe uhuye n'ikibazo.

Umugore wambaye ikanzu y'umutuku, ufite igare ari gucunga, ari kumwe n'umugabo wambaye ikabutura n'agapira ndetse afite na we igare agenda acunga, bari iruhande rw'amazi menshi bigaragara ko bagiye ku mucanga.

Umwana wambaye umupira w'umukara, wazamuye inkoni y'umukara, wambaye ingofero y'umukara ariko irimo amabara atandukanye, imbere ye hari ak'ikoranabuhanga gahari.

Icyapa kiri ahantu mu byatsi hagari kiriho abantu batatu bambaye ubusa, kigaragaza ko ari abantu baryamye kwa muganga bategereje ubuvuzi kandi kiri ahantu hitaruye hagaragara neza.

Umugabo wambaye ikoti ndetse n'ingofero ari mu bigori hagati. Ndetse hari n'icyapa kigira kiti ''shinganisha ibihingwa byawe uhinge utekanye''

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru ndetse na karuvate, ufite umusatsi mwinshi hejuru, mu mpande muke akagira terefone nini; yicaye iruhande rw'imodoka yangiritse.

Abakobwa babiri bambaye amakoti umwe iry'umweru irindi iry'umukara n'udupira mo imbere, bafite imisatsi iteye kimwe ndetse barimo kugira bati "murakaza neza muri Radiant yacu limitedi".

Umugabo uri hejuru ku kiraro ufite icyapa cyanditseho aya magambo "Bibiri na makumyabiri na rimwe ubwisungane mu kwivuza." Yambaye ingofero y'umutuku irimo n'amabara y'umweru.

Icyapa kiriho ibara ry'umutuku, ubururu, cyanditsemo amagambo ndetse hari n'imibare, hashushanyijeho umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru karuvati y'umukara irimo n'utundi tubara. Handitseho izina ry'iwe Buriyani Yohani.

Icyapa cyanditseho ubwishingizi bwo gushyingura. Hariho indabyo z'amoko atandukanye ndetse handitseho munsi y'izo ndabyo amagambo agira ati, "Shyingura uwawe mu cyubahiro".

Inyubako irimo imitako ndetse n'umuntu uhagazemo wambaye ikoti ry'umweru n'ishati y'mweru, imbere ye hari agakombe, hari n'akabati gatoya gateretseho amasahani.

Inyubako irimo amavarisi atandukanye ndetse ateretse ku makaro, hari udukapu dutoya duteretse hejuru yayo ndetse ku rukuta rw'iyo nyubako hejuru mu gisenge harimo amatara menshi.

Ahacururizwa imyambaro itandukanye, hari imipira yambarwa bagiye muri siporo, ingofero z'amoko atandukanye ndetse ziri mu bubiko bwaho zicururizwa.

Abantu babiri bari mu iduka ririmo ibintu bitandukanye, bimwe bifunze mu mashashi ibindi biri mu ducupa, umucuruzi ari guhereza kimwe muri byo umuguzi kandi ahagaze iruhande rw'udufuka tuharambitse.

Ububiko bw'udukoresho dutandukanye, harimo imitako, umwe w'umubumbe ndetse n'utundi tuntu tuboshye mu bintu bitandukanye, hari n'uducupa wagira ngo ni twa tundi tubamo kanta abagore basiga mu mutwe.

Ubwoko bw'inkweto z'abakobwa batandukanye zimwe zisanzwe izindi zisanzwe kandi ndende, ziteretse mu butereko bwazo harimo iz'umweru n'umukara uvanze n'umuhondo ndetse n'izindi zifite amabara atandukanye.

Imodoka ihagaze neza mu mwanya wayo, ifite ibara ry'umukara ndetse n'icyapa kiriho amagambo agira ati:"Kigali isoko ry'imodoka."

Mu nyubako ngari irimo imodoka zitandukanye, hakabamo ameza ariho icupa ry'amazi, ibinyamakuru ndetse n'ikayi irimo amafoto atandukanye.

Imodoka nto nziza ifite nimero ya HSLO makumyabiri na karindwi yo mu bwoko bwa rava n'izindi zihagaze ku muhanda ndetse n'ishyamba ryinshi ricucitse.

Imodoka nziza igezweho, igiciro cyayo ni miriyoni cumi n'ebyiri, ihagaze imbere y'inyubako nini cyane yubatswe n'ibirahure byinshi, hari utuzu duto.

Imodoka nyinshi zitondetse ku murongo, abagabo babiri bahagaze iruhande rwazo, bari kuzerekana. Inyubako ndende ebyiri n'iya gatatu igaragara igice cyo hejuru, ibiti biri hafi y'izo nyubako.

Imodoka nziza ihenze igendwamo n'abantu bane, iri mu mujyi aho bafatira esanse ndetse hari n'inyubako iruhande rwayo kandi bigaragara ko abantu ariho bakorera ubucuruzi butandukanye, hari n'izindi modoka ziri inyuma yaho bafatira esanse.

Abagabo batatu babiri bambaye amajiri, umwe yambaye isarubeti, afite agakapu mu ntoki, bahagaze imbere y'imodoka nini itwara imizigo.

Imodoka eshatu nziza z'umukara, iri hagati yazo ni nini kuziruta. Inyuma yazo hari umugabo wambaye imyenda y'umukara ufite telefone mu ntoki, akagira n'umusatsi uringaniye, hari n'inzu inyuma yazo.

Abantu bane bari muri banki umugabo umwe afite igikapu n'ingofero ndetse arimo aratanga amafaranga, undi nawe ari kureba umugabo uri mo uratanga amafaranga.

Inote y'ijana iriho impalage ndetse hakaba n'indi iri munsi yayo iriho umugore uhetse umwana afite inkoni mu ntoki, hariho ibiti bitandukanye ndetse n'indabyo.

Umuntu ufite amafaranga menshi mu ntoki ndetse ku kuboko kwe hariho ibikomo byinshi bifite amabara atandukanye birimo gushashagirana, amafaranga afite harimo iz'igihumbi ndetse n'izindi zihishe.

Indobo ebyiri z'umweru zirimo amandazi, icyuma bayafatisha ndetse hari n'ibindi byuma biri hirya bifite ibara ry'ubururu.

Umugore ucuruje utujerekani tw'ingeri zose dutandukanye ndetse n'udukombe, hariho ibirango bya Kampani runaka, inyuma ye hari imitako itandukanye ndetse ari mu nzu yubakishije ibibingo n'uduti.

Inzu irimo ubutwariro bw'amata ndetse hari nuburi hanze, bufite ubucupa bw’umweru , hari n'udukombe duto hakaba n'utundi dufite imipfundikizo y'umutuku hamwe n'ibicuba biteretse hafi aho.

Icyapa cyerekana ko hari amata meza. Kiriho umwana ufite igikombe mu ntoki ndetse kuri icyo cyapa hakaba handitseho amagambo agaragaza ko hari amata meza. Umwana afite imisatsi myiza, ndetse iruhande rw'icyo cyapa hari inyubako nziza cyane igaragaza ko ari ho acururizwa.

Utujerekani dutandatu tujyamo amata, hakaba hari n'igicuba na cyo batekarekamo amata kugira ngo atangirika, byose biteretse ku makaro.

Ku meza nziza ifite amarangi, hariho isahani y'ubururu, iriho ibiraha bine. Kimwe muri byo cyamanyutsemo kabiri.

Inzu icururizwamo ibyo kurya n'ibyo kunywa, harimo imitobe, hakabamo amata, isambusa, biswi, harimo amandazi, amazi, keke n'umucuruzi uri guhereza akajerekani k'amata umuguzi.

Abantu babiri bari mu nyubako icuruza ibyo kurya, harimo amandazi, imitobe ikorerwa mu nganda, umugore arahagaze, naho umugabo aricaye, afashe telefone ebyiri.

Umuntu wicaye ku ntebe bariraho afite keke mu ntoki ndetse n'icyo bafatisha, hasi ku meza hari isahani ifite uturangi twiza ndetse yicaye ku ntebe za zindi zifite amarange atandukanye.

Abantu babiri bambaye imyenda itandukanye, umwe ateruye ikarito irimo utundi dukarito dutoya, undi bari kumwe afite udukarito tubiri, inyuma yabo hari amakarito menshi baragaragaza ko bari kwamamaza utwo dukarito turimo amata.

Inyubako iteretsemo uducupa dutandukanye ndetse n'udukombe, hari n'ibicupa binini by'amazi ya nile ndetse hari n'urumuri.

Icyapa cya bibiri na makumyabiri n'itatu kikaba cyanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu ndetse hari n'uruziga ruri mu ibendera ry'igihugu.

Umugore ufite terefoni mu ntoki y'ibara ry'ubururu wambaye impeta ndetse akaba yambaye n'agakufi mu ijosi, ateze igitambaro, akaba afite ikanzu y'umweru, hari ibara ry'umuhondo ahari n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara agira ati isekere ikiri.

Umukobwa ufite telefoni mu ntoki, arikwerekana uburyo ushobora kohereza amafaranga, akava hamwe akajya ahandi, afite imisatsi irambuye, akambara n'agapira k'ibara ritandukanye n'iryo yambaye hasi.

Umukobwa ufite intoki ndende, inzara nini zisize amahina, telefone igezweho iri mu gishushanyo cy'inyuguti ya sa, akaba akoze hafi y'aho bavanamo ibyari birimo.

Icyapa cyanditseho akanyenyeri, kane, gatatu, gatandatu, urwego, iyo mibare ikaba isobanura ko wayifashisha kugira ngo ukure amafaranga hamwe uyajyane ahandi mu buryo bwihuse.

Umuntu ufite telefone mu ntoki, uri kwerekana uburyo wayikoresha, kugira ngo ugire itumanaho ryihuta. Afite terefone izengurutswe n'igifuniko cy'umweru.

Inote zitandukanye, hari iy'icumi, iya makumyabiri, iya mirongo itanu, iy'ijana, iya magana abiri, iya magana tanu ndetse n'iy'igihumbi, ziriho abantu batandukanye, hariho iriho abantu, inyamaswa ndetse n'ibikoresho.

Inoti y'ijana iriho umugore ufite imisatsi ndetse n'ikirangantego k'igihugu ndetse hakaba n'iya makumyabiri iriho inyubako ndende z'i Burayi hakaba n'inoti ya mirongo itanu.

Ibiganza byambaye ibikomo bifite amafaranga menshi mu ntoki atandukanye, kandi ari kuyabara akurikije umubare wayo, kuko ayafite mu ntoki zombi.

Inoti ya magana atanu yanditseho banki nkuru ya Tanzania iriho imibare itandukanye umugabo ufite ubwanwa n'agasatsi gake kandi akaba afite na karuvati y'umukara .

Abantu babiri bari guhererekanya amafaranga, harimo iz'ijana ndetse n'iza magana atanu. Ku note y'ijana hariho umugore ndetse n'agaseke.

Umugabo wicaye ku gatabureti, yambaye ishati ijya gusa umweru, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara imbere ye hari icyapa kiriho uko bagurisha n'uko bagura.

Inoti ebyiri zitandukanye, imwe y'ijana, iriho inyubako ndende, hakaba n'indi y'igihumbi, iriho umugabo wambaye ingofero, kandi izo note zombi ziratandukanye n'amabara.

Urukuta rwanditseho umubare gatanu n'amagambo ari mu cyarabu, hariho umugabo wambaye amarinete ndetse imyenda ye iriho ipeti bigaragara ko ari umuntu ukomeye.

Abantu batandukanye, umwe afite amafaranga arimo amoko abiri, ari kuyabara. Arimo kuyahereza mugenzi we bahagararanye ndetse iruhande rwabo hari ameza ari hagati yabo.

Inoti ya makumyabiri iriho inyubako nini cyane wagira ngo ni kiriziya, akaba ari umuntu ubifite mu ntoki, hagaragara intoki ze ebyiri.

Inyubako nziza iriho ibyapa bitandukanye, hakaba hariho umukobwa ufite umutako mu ntoki, imisatsi myiza imanuye ndetse akaba yambaye umupira w'umutuku, imbere y'iyo nzu hari moto ebyiri zihahagaze.

Inyubako nziza ifite ibyapa bitandukanye, imbere yaho hari indabyo nziza, ziteretse mu bitereko byazo kandi iyo nzu igaragaza ko ikorerwamo ibintu by'ivunjisha, hakaba hariho na nimero wahamagara.

Inyubako nziza ifite amabara y'ubururu ndetse yanditseho amagambo mu ibara ry'umweru n'umuhondo, igaragaza ko ari inyubako iberamo ivunjisha ry'amafaranga y'amahanga.

Umukobwa ufite imisatsi miremire y'imikara, yambaye ikanzu ya oranje, afite terefone mu ntoki. Iruhande rwe, hari ibyapa byinshi bitandukanye ndetse ari imbere y'inyubako.

Ibyapa bine bitandukanye, kimwe kiriho ibikapu, kikabaho ifoto, uducupa, ik'indi kiriho ingufuri ndetse n'utundi dukoresho, ikindi nacyo kigaragaza ko babikuza amafaranga y'amahanga.

Abagore benshi n'abagabo benshi bicaye ku ntebe bari mu nama batumbiriye imbere yabo bafite amazi yo kunywa ndetse n'ibindi bintu byo kunywa imbere yabo hari amamashini ndetse hari n'indangururamajwi zibafasha kumvikana.

Umugabo wicaye ku gatebe gato, yambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara, n'ishati ijya gusa umweri hari icyapa kiri imbere ye kiriho amabendera y'ibihugu atandukanye, kikabaho amafaranga uko agurishwa ndetse n'uko agurwa.

Akabati keza karimo ahantu hateretse ururabyo, harimo icupa ndetse haruguru hari n'umutako ukoze mu kinyugunyugu, ako kabati kandi gakoze mu mbaho zisa neza.

Inyubako irimo intebe z'imisego ndetse hari n'ameza ariho icupa, igishushanyo cy'umubumbe w'isi. Muri iyi nyubako harimo isaha iri ku rukuta ndetse n'amafoto.

Ameza manini afite ikirahure hejuru, akikijwe n'intebe nyinshi kandi ateretse hanze y'inyubako.

Inyubako nziza cyane, ifite aho abantu baganirira hanze hari imitaka minini n'udutebe dutoya dufungwa tukanafungurwa. Hari ubwogero bugezweho burimo amazi asa neza. Hari ikirere cy'ubururu gisa neza, ubona ko ari igihe cyiza.

Inyubako nziza iteye amabengeza. ifite ibirahure bibonerana ndetse n'amarangi atandukanye harimo umutuku, umweru. Iruhande rwayo hari ubwogero bugezweho burimo amazi meza ndetse buzengurutswe n'ubusitani hagiye harimo intebe ndetse n'ameza bubona biteye ubwuzu.

Ku nzu nziza hari intebe ebyiri zegereye ubwogero bugezweho ndetse harimo n'amazi asa neza cyane, hazengurutseho ubusitani bwiza butagira uko busa ubona buteye ubwuzu, iyo nzu na yo ifite amarangi atandukanye atuma iba nziza cyane.

Inyubako nziza ifite ubwogero bugezweho, burimo amazi meza ateye amabengeza ndetse hakaba n'uruzitiro ruhazengurutse aho hose kandi hari ibiti birimo imikindo ndetse n'ibindi by'amoko atandukanye, bikikije iyo nyubako.

Igipapuro k'inyemezabwishyu gitangwa n'ikigo cyimisoro n'amahoro, kikaba kigaragaza igiciro cyamafaranga iki kintu cyatanzweho nicyo gikorwa cyakozwe.

Inyubako nziza, ifite amarangi atandukanye, ifite ubusitani bwiza burimo indabyo, utwatsi twa cyimeza, ndetse harimo intebe, n'umutaka.

Isahani iriho ibiribwa bitandukanye, inyama, amakaroni, ndetse n'imboga, hari icupa ry'umukara, ndetse n'ibikombe biteretse ku meza, hakaba n'intebe nziza.

Intebe nziza z'amoko atandukanye n'ameza byose bifite ibara rimwe, hari imitaka, ibiti bisa neza biteye nk'inzu ndetse hakaba n'amazi.

Inzu nziza nini ifite amarangi atandukanye ndetse ikagira n'ibirahuri, hari n'icyapa kimanitseho ndetse ifite n'aho imodoka zihagarara, ikaba izengurutswe n'ibiti.

Inyubako nziza iriho ibyapa bitandukanye bigaragara ko ikoreramo ubucuruzi, imbere yaho hahagaze imodoka nazo zitari nkeya kandi iyi nyubako ifite amabara atandukanye harimo umweru, icyatsi ndetse n'umukara.

Inyubako ndende cyane iruta izindi nyinshi, ikaba ifite ibirahure kuva hasi kugera hejuru, ifite amatara atandukanye hafi ku muhanda ndetse ifite amarangi ateye ubwuzu, iyo nzu uyireba wagirango ngo ntabwo ari inzu.

Inyubako ndende igeretse gatatu ifite ibyuma biri ku mpande ndetse n'imashini yinjiza umuyaga mu nzu, ifite amabati areba hasi abuza amahuhwezi kujya mu nzu, iriho icyapa cyanditseho ubwisungane.

Ibyapa bibiri bitandukanye, kimwe kirasa ubururu nta kintu cyanditseho, ikindi kirasa umweru ndetse n'andi mabara y'imvange, kiriho agashushanyo gafite iyi shusho nk'iy'inuma handitseho ''SONARWA muri rusange''.

Imodoka nyinshi harimo umweru, umuhondo ndetse n'ubururu, zihagaze imbere y'inyubako y'ubucuruzi iriho ibyapa byinshi, hariho ibya MTN na Tigo.

Mu mujyi rwagati hari umuhanda mwiza ufite amabara y'umukara n'umweru ndetse hari n'inyubako zitandukanye, indende n'ingufi, haparitse imodoka iruhande rw'inyubako hari n'ibiti byiza kandi biteye amabengeza.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, ikoti ry'umukara, areba mu kirere azamuye akaboko ndetse kandi gafashe urupapuro, hari mudasobwa imbere ye ndetse n'igikombe.

Umubyeyi ufite telefone mu ntoki, uri kureba amakuru ajyanye na banki ubona ko yishimye cyane, ateze igitambaro kandi yambaye amaherena, afite isaha ku kuboko, yambaye ijipo ndetse yambaye n'agapira gatoya. Arimo aramwenyura nk'uwishimye.

Umukobwa wambaye ikanzu nziza n'isaha ku kuboko ndetse n'imisatsi aje kubikuza ku cyuma ari kwisetsa kuko kirimo kumuha amafaranga menshi kandi nta bwoba afite.

Abantu bane abagore batatu n'umugabo umwe bambaye neza, hari icyuma kiri imbere y'abo ndetse hari n'amafoto agaragaza umuntu uhakorera. Umwe muri bo yicaye ku ntebe arimo kubaha serivisi.

Umuhanda munini hakurya y'umuhanda hari inzu nini icururizwamo ibintu bitandukanye hari icyapa cy'amata n'icyapa gicuruza farumasi n'imiti itandukanye.

Umugore uteze igitambaro mu mutwe wambaye isarubeti, imbere ye hari ibiribwa bitandukanye ndetse ari kumwenyura, hari ikirango kigaragaza banki y'abaturage.

Abantu benshi batandukanye bari mu nyubako irimo ahagiye hamanitse amafoto hari aho bakirira abantu afite igitabo kinini cyane ndetse hahagaze abantu batatu bari kwireba muri ibyo bitabo undi afite icyangombwa arimo kurebaho.

Inyubako ndende ikoreramo ibintu bitandukanye, aho ari agace gakoreramo banki ndetse n'ahakinirwa imikino y'amahirwe. Hari ibyapa biri hasi ndetse hari abagabo babiri n'umukobwa umwe, bahagaze ku muryango ubona ko bakeneye serivisi ngo binjire.

Abantu bari mu isoko baje guhaha, harimo, ibikoro, amacunga ndetse n'ibindi, umukobwa witanze adafite umusatsi uboshye n'umupira w'umutuku, ahereje umusore wambaye ishati y'umukara n'isaha ku kuboko.

Isoko ry'imbuto harimo imyungu, intoki, amiteja ndetse n'urusenda, harimo abacuruzi batandukanye bamwe bicaye abandi bahagaze, harimo abana batoya ndetse n'ababyeyi.

Iduka rinini ririmo imitako, ibitenge, aho babika amafaranga ndetse n'abantu benshi, harimo umusore wicaye uri kureba muri terefone, yambaye agapira k'umutuku harimo n'ubururu.

Umugore wicaye mu isoko ry'imbuto n'imboga, harimo tungurusumu, inyanya, pavuro, imineke, yicaye ku gatebe gatoya, afite ibikomo ku kuboko, hari n'agakapu ku ruhande.

Abantu benshi bateraniye mu iduka ricuruza imyenda, bari kugenda barebamo imyiza, bamwe barahagaze, abandi baricaye. Harimo umugore ufite agakapu mu ntoki ndetse wambaye n'umupira munini wo kwifubika.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye: imyenda, amavuta n'ibindi, hari icyapa kiri hepfo y'aho bacururiza ndetse iryo soko rifite ikizimya umuriro mu gihe hafashwe n'inkongi y'umuriro.

Umugore uri aho batangira amayinite mu kazukabugenewe ka MTN, afite kamvirope mu ntoki ndetse mu imbere harimo abantu babiri.

Ihema rito ririmo abantu benshi, iryo hema rikaba ririho ibishushanyo bitandukanye. Hariho irigaragaza ko riri kwamamaza amavuta ndetse na Airtel. Harimo abantu batandukanye barimo gusaba serivisi zitandukanye.

Abantu batanu bagiye ku mukozi wa MTN, ba bandi baba bari mu kazu ka MTN batangiramo amayinite, kubikuza ndetse no kubitsa. Bose bari hafi y'ako kazu, bakeneye serivisi.

Amahema abiri, ihema rya Tecno, ihema rya MTN, mu ihema rya MTN, hahagazemo abasore benshi, barimo kwaka serivisi ubona ko bayikeneye cyane ndetse hari abifashe mu manyungunyugu, ku ihema rya kabiri rya Tecno ho nta bantu barimo.

Akazu gakoreramo abakozi ba emutiyene ni umweru, kanditseho amagambo mu ibara ry'umukara, hari ikindi kintu kiri hejuru y'ako kazu ka emutiyene kingana nka furati, ndetse hari n'umuntu umwe urimo imbere muri kuntu abandi bose bari hanze.

Abamotari babiri ndetse n'abandi bagabo babiri bahagaze iruhande rwabo bari kubishyura, bigaragaza ko aribo bari babatwaye, bambaye udupfukamunwa twose tw'umuhondo ndetse nabo bamotari bombi, abo bagabo umwe muri bo yambaye umupira w'umuhondo wanditseho MTN.

Umukozi wa MTN yambaye umupira wayo, imbere ye hari imashini nini ndetse hari n'umugabo uje kwaka serivisi ufite agatabo mu ntoki, yambaye agapira karinganiye, hari amafoto ku rukuta rw'aho bari.

Utuzu abakozi ba mtn na airtel batangiramo serivisi umwe w'umukobwa nta muntu uzaba serivisi afite naho uwo haruguru we afite umunyeshuri uri kumusaba ikintu runaka.

Moto ebyiri ziri mu muhanda, zitwaye abagenzi batandukanye, ku ruhande rwawo hari inyubako ifite indabyo zikoze neza kandi hari n'ibiti by'amoko atandukanye biwukikije.

Icyapa kiriho abantu babiri umwe yambaye imyenda y'umukara, karuvati y'ubururu, undi yambaye ingofero y'umutuku akaba afite ikarito mu ntoki, kiriho kandi nimero za terefone kikagira n'akamodoka gato karimo amakarito menshi.

Umumotari wambaye agapira k'umuhondo, ndetse n'uw'akazi mu muhondo. Ajyanye agakapu ahongaho. Kandi hari n'ikindi kintu giteretse hasi ari bujyanane.

Inyubako nziza ifite amarangi menshi atandukanye, iteye ubwuzu. Ifite intebe z'imisego mu ruganiriro ndetse no mu ruriro hari intebe zabugenewe ndetse n'ameza.

Inyubako ndende igeretse kabiri, ifite amabara meza, ifite amatara ndetse ifite ubusitani bwiza, hari indabyo zitandukanye ziteye amabengeza ndetse hariho n'uturabyo tugaragara neza kuri buri wese.

Icyumba kiri mu nzu nini cyogerwamo, harimo ibikoresho by'ibyuma byohereza amazi aho bogera ndetse harimo n'ibasi yifashishwa mu gihe barimo koga.

Inyubako igeretse rimwe ifite ibirahure by'umukara, ndetse amatara ari mu kirongozi, ifite ibyuma ku mpande bitangira abantu, ndetse hari n'aho imodoka zihagarara, izengurutswe n'urukuta.

Inyubako nziza cyane irimo amakaro, inzugi nziza z'ibirahure z'imikara ndetse hari intebe ziri hanze ku ibaraza n'ameza, kandi hateretseho ururabyo, hari urukuta ruzengurutse iyo nyubako.

Tengamara na tiveya twongeye kubatengamaza, ishimwe kuri tiveya ryongeye gutangwa ni nyuma y'ubugenzuzi isuzuma n'ibikorwa byo kugaruza umusoro byakozwe dukomeje gusaba ibiyamu niba utariyandikisha kanda kannyeri maganainani urwego ukurikiza amabwiriza nibayandikishije zirikana fatire ya ibiyemu no kwandikisha nimero yawe ya telefone itanga n amakuru.

Inyubako nziza ifite amarangi atandukanye, ibirahure ndetse ikaba ifite amabati, imbere yayo hari imodoka nto, hakaba indabyo, ibiti, n'izindi nyubako ziyikikije.

Inyubako ndende ifite amarangi atandukanye, ibirahuri byiza bimwe bigezweho, ifite ibyuma bizengurutse bikoze uruzitiro hari n'indabyo inyuma yibyo kandi ifite amadirishya maremare n'inzugi ndende.

Inyubako nziza ifite amabara atandukanye, ikaba yubakishije amakaro ndetse ikaba ifite n'imbuga nziza. Iyo nyubako kandi izengurutse n'ibyuma birinda abantu kuba bagwa.

Intebe z'imisego, ndetse n'ameza, hariho telefoni n'agacupa, ndetse hari n'abandi bicaye iruhande rw'ameza.

Iduka ririmo ibintu byinshi bitandukanye, bimwe bifunze mu makarito, ibindi mu macupa. Harimo abantu batandukanye baje guhaha kandi bamwe bafite udukapu bari butwaremo.

Abantu bari mu isoko, harimo abana n'abakuru, harimo umukobwa wambaye ingofero y'urugara ndetse ateruye umwana mu ntoki.

Nimba ufite telefone uzakore uko ushoboye umenye kuyikoresha wandika ibintu byinshi bitandukanye mu mabara atandukanye bizatuma uyibyaza umusaruro uhagije.

Abantu benshi bari ku nyubako iriho icyapa kigaragaza ko ari abantu bashinzwe umutekano, bigaragara ko ariho bakorera, hari ibiti inyuma y'iyo nyubako ndetse imbere yayo hari utubindi turimo indabyo.

Abantu bicaye bategereje serivise iri gukorwa n'abagore babiri, bafite mudasobwa imbere, impapuro ndetse n'ibindi, hari n'ubahagaze imbere na we uri kubaha ibyo bakeneye kugira ngo babone serivise.

Abantu bari imbere y'inzu, bahagaze bemye kandi bifashe neza, bafite icyapa cyanditseho ubwisungane mu kwivuza, bibiri na makumyabiri n'ine na bibiri na makumyabiri n'itanu, gifashwe n'abagabo babiri bambaye neza bakikijwe n'abagore bateze ibitambaro ndetse bafite n'ibitenge.

Abagabo bambaye imyenda y'akazi bafite ibyuma byabugenewe ndetse umwe afite nk'umwambaro w'akazi mu ntoki, akaba afite ikayi n'ikaramu ari kwandika, undi afite icyuma ari gupima yambaye ibirahuri by'amaso.

Umugabo wambaye ikoti n'ishati y'ubururu afite uruhara akagira akamvirope mu ntoki ari guhereza umukobwa wambaye imyenda y'imikara.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, iriho ikirangantego k'igihugu, kikaba ari ikigo Minisiteri ishinzwe ubuzima mu ntara y'uburasirazuba.

Abantu babiri bicaye mu ntebe z'umukara bambaye imyenda y'imyeru imbere yabo hari ameza ndetse inyuma yabo hari ikirangantego kiriho amagambo hari n'urukuta ruriho igishushanyo.

Iduka ririmo ibintu byinshi bitandukanye, harimo ifarini ifunze mu makarito, hakabamo uducupa n'udukombe dufunze ndetse n'ibindi bitandukanye biri mu bubiko bwabyo.

Inzu icuruza imiti itandukanye, y'amoko menshi, irimo buri byiciro, aho wagenda wisanga bitewe n'icyo ushakamo, harimo kandi n'amakarito ateretse hasi.

Abantu babiri bari mu nyubako, umukobwa wambaye umupira w'umutuku ufite akamashini mu ntoki, ari kumwe n'umusore wambaye umupira w'ubururu ufite impapuro mu ntoki, ari gushyira ku kamashini.

Iduka ririmo ibintu bitandukanye, harimo ibyo kunywa iby'imitobero iva mu nganda, ibifunze mu mashashi ndetse hakabamo n'imyambaro, ibiringiti n'umugabo uri kubyanura.

Mu mujyi amatara araka, imodoka ziri kugenda z'amoko atandukanye n'abantu mu nzira zabo. Hari icyapa cyanditseho simba kicukiro ndetse hari n'inyubako nziza zubakishijwe n'ibirahure.

Abantu benshi bari mu nyubako y'ubucuruzi, harimo uwambaye umupira w'umutuku harimo ibara ry'umukara ndetse n'umweru w'umukobwa n'umugabo bambaye kimwe, hakabamo undi mugabo ufite akagare ari kugenda agasunika.

Isoko rigezweho ry'imbuto risa neza rifite amakaro ndetse n'udukoresho bifashisha baterekamo imbuto, umugabo munini ubyibushye wambaye umupira w'umukara n'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara akaba arihagazemo.

Iduka rinini ririmo ibicuruzwa bitandukanye bifunze ririmo amatara atandukanye ndetse byafashwe na telefoni, harimo amakaro hasi n'ibyapa bigaragaza ubwoko bwa buri bicuruzwa.

Iduka rigari ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye ndetse n'ibyapa byerekana ubwoko bwabyo, abantu bari hagati yabyo bafite udukapu mu ntoki bigaragara ko baje guhaha, hari n'ubitwaye mu kagare kabugenewe yerekeza aho ibindi biteguye.

Inyubako yuzuyemo ibinyobwa byinshi bitandukanye ndetse hariho n'ibyapa bigaragaza amazina yabyo, bitondetse mu tubati twabigenewe kandi hari n'amatara hejuru ku gisenge.